Agakinisho kari mu tuntu icyenda dutondekanye, kakaba karambitse mu ndabo zifite amabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'umweru, aho kifashishwa mu kurera abana biga mu mashuri y'inshuke.

Igitabo kifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke gishushanyijeho utunyamaswa dutatu tw'umuhondo tumeze nk'inkoko, inyuma hakaba hashushanyijeho injangwe isa n'umweru ndetse ikaba ifite n'ibara ry'ikijuju mu mpanga.

Amashusho atatu harimo imwe iri mu ibara ry'ibyatsi aho abana bari kwiterera mu mazi, ahandi hakaba hari ibishushanyo by'imisambi, ahandi hakaba hari imodoka y'ibikinisho, byose ni ibitabo byifashishwa n'abana biga amashuri y'inshuke.

Umwana muto w'umuzungu akaba ari mu kigero k'imyaka, itatu aho afite ibikinisho by'inyamaswa zitandukanye z'imusozi birimo; ishya, intare, ingwe, impyisi, ndetse n'ingona, akaba abyifashisha mu mashuri y'inshuke aho yiga.

Abanyeshuri biga amashuri y'incuke, bakaba bakoresha ibikoresho bitandukanye byiganjemo amakaramu, aho akenshi na kenshi abasa n'umweruru, akaba afite ibifuniko bifite amabara atandukanye mu buryo bwo kwigisha abana kumenya amabara.

Ikigo cy'amashuri y'inshuke kikaba kiriho ishuri ririho ibibumbano bibiri. Bikaba ari ibibumbano bigaragaza abagabo babiri b'abasirikari bari gutungana imbunda. Umwe arasa n'icyatsi undi akaba asa n'igitaka.

Umwana ukiri muto, uri mu kigero cy'imyaka itanu, yambaye ishati y'amaboko magufi, aho ahagaze i mpande y'ishuri ryubakishije amatafari ahiye, mu mbuga y'iryo shuri hari umwana muto w'umukobwa wambaye igiteyiteyi, akaba ari gukaraba amazi meza n'isabune kuri kandagira ukarabe.

Imbwa ifite ibara ry'umukara, umweru ndetse n'ikijuju, ikaba iri gutembera mu kigo cy'amashuri y'incuke, aho iri kugenda isunika baro, iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi, ubona ko bishimishije abana biga mashuri y'inshuke.

Udukinisho dutandukanye twifashishwa mu kurera abana biga mu mashuri y'inshuke. Kamwe kagaragaza amasikariye, akandi intebe y'umufariso, akandi kakagaragaza ishusho itagaragara neza. Twose turi mu mabara atandukanye, arimo umutuku, umuhondo, cyatsi n'ubururu.

Igitabo gishushanyijeho utunyamaswa tune tw'imbeba. Akaba ari igitabo kifashishwa mu burezi bw'amashuri y'inshuke, aho baba bigisha abana batoya udukuru dusekeje.

Inzu nziza iri mu kigo higishizwamo abana b'inshuke, akaba ari inzu iteye irangi ry'umuhondo ifite amadirisha ateye irangi ry'umukara ndetse ku gikuta hakaba hashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye bifasha abana bahigira.

Ikigo cy'amashuri y'inshuke, harimo ishuri rimwe, riteye amarangi y'umuhondo ku gikuta, hakaba hashushanyijeho umwana wambaye impuzankano uri kwiruka, igisokozo ndetse n'ibase isa n'ubururu iremo amazi.

Inyubako nziza cyane y'amashuri abanza, iteye amarangi y'umuhondo, ubururu, icyatsi ndetse n'umutuku, ikaba irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarimu ndetse n'abanyeshuri, birimo intebe, ameza ndetse n'ibibaho.

Ibikoresho bitandukanye birimo isaha iri mu ibara ry'umuhondo, amakaye, amakaramu, amagoma, udusibisho, amarati ndetse n'ibindi biri mu mabara atandukanye byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza mu kwiga amabara.

Inyubako imwe mugo cy'amashuri abanza, iteye amarangi y'umweru, ikaba iteye n'andi marangi y'umuhondo, n'imitako, hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abana bato, birimo ameza, intebe, amakaye n'amakaramu.

Ikigo cy'amashuri abanza amashuri yubakishije amatafari ahiye ndetse ntabwo ahomye imbere hari akabati gatoya kabajwe mu mbaho kakaba karimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarimu bakorera muri iki kigo.

Abana biga mu mashuri abanza bifashisha ibintu bitandukanye mu kubara hari karote eshatu ibigori bitatu abantu batatu inzogera enye ibinyugunyugu bine inyanya enye amagi atanu ndetse n'utundi tubuto dutanu dutanu turi mu mabara atandukanye.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'a biga mu mashuri abanza by'umwihariko mu isomo ry'imibare, birimo amarati y'uruziga, imirongo irambuye, kompa, ikaramu y'igiti, akuma kifashishwa kuyisongora ndetse n'amakaramu.

Inyubako nziza cyane ya mu kigo cy'amashuri abanza iteye irangi ry'umuhomdo ikaba irimo amadirisha ane ndetse n'umuryango munini cyane, imbere hari imbuga ngari hakaba hari n'icyapa kigaragaza intego nyamukuru y'iri shuri.

Ibikoresho bitandukanye bigaragaza umuco nyarwanda agashoka, imbazo ndetse n'akandi gato kameze nka vi, kakaba kifashishwa mu kwigisha abana biga amashuri abanza ibikoresho byakoreshwaga kera mu muco nyarwanda.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza. Birimo: amakaye, amakaramu y'igiti, imakasi, irati, amakaramu asanzwe ndetse n'ibitabo. Hari n'imashini yifashishwa mu guteranya, gukuba, kugabanya no gukuramo imibare.

Insina ifite amakoma ubona ko yarwaye beja hirya hari indi nsina ifite igitoki aho zegeranye ikigo cy'amashuri kirimo inyubako zubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu.

Ibikoresho bitandukanye bipfunyitse mu bipapuro, by'umweru ,umukara, umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku, birunze hamwe bikaba ari ibikoresho byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza, kugira ngo bige neza.

Ikigo cy'amashuri abanza. Ishuri rimwe rishushanyijeho abana bane, abahungu babiri ndetse n'abakobwa babiri bambaye impuzankano. Umukobwa umwe ahetse igikapu, undi nta kintu afite, mu gihe n'abahungu umwe afite ikayi, undi akaba nta kintu afite.

lbikoresho bitandukanye by'ibikinisho by'ibikorano ,bikaba byifashishwa mu burezi bw'abana biga mu mashuri abanza, birimo; ikibiriganya gisa n'ibara ry'iroza, hakaba urusenda rw'umutuku, ikigori ,ndetse n'umuneke by'umuhondo, bifite hasi no hejuru hasa n'icyatsi.

Igikapu gisa n'ubururu kikaba kiriho igikinisho cy'umutwe uriho amaso abiri akanuye cyane aho ari igikapu cy'umwana wiga mu mashuri abanza atwaramo amakaye n'amakaramu iyo agiye ku ishuri.

Inzu nziza cyane ziteye irangi ry'umweru. Zikaba zisakaje amabati y'umweru. Aho ari ikigo cy'amashuri abanza. Hari ubusitani burimo umucaca ndetse n'izindi ndabo ngufi. Hakaba hari inzira y'abanyamaguru, abanyeshuri bacamo bagiye mu mashuri.

Ibikoresho bitandukanye birimo amakaye, amakaramu y'igiti ,imakasi, imashini iteranya, igakuba, ikagabanya, ikanakuramo imibare, amarati ndetse n'ibindi byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, biteretse ku meza aho abanyeshuri babisanga bakabikoresha.

Utumenyetso, udupupe tw'abana turi mu mabara atandukanye, umutuku, igitaka, umuhondo, icyatsi, n'ubururu, tukaba tuzengurutse umubumbe w'Isi, akaba ari ibikoresho, byifashishwa mu kurera, abana biga mu mashuri abanza.

Ibikoresho birimo ikaramu y'igiti isongoye iri mu ibara ry'ubururu, amarati abiri, kompa ndetse n'ibipapuro bibiri bisize aho yararambitswe n'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza mbere y'uko ajya mu rugo.

Mu kigo cy'amashuri abanza, ishuri rimwe riteye irangi ry'umweru ku gikuta hakaba gishushanyijeho inyamaswa imeze nk'ihene ariko ifite umunwa muremure umeze nkaho ari uw'inyoni.

Abagabo batanu ndetse n'umugore umwe, bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'amapantaro y'umukara. Bakaba bari mu kigo cy'amashuri abanza, iruhande rw'icyuma, abana bakiniraho bari kurya umunyenga.

Amashuri meza cyane mu kigo cy'amashuri abanza, yubakisheje amatafari ahiye akaba ateye amarangi y'umuhondo ku nkingi, asakaje amabati aho imbere afite ibaraza rinini cyane umuntu yakugamamo mu gihe k'imvura.

Ikigo kiza cyane cy'amashuri abanza, amashuri yubakishije amatafari mato ahiye akaba asakajwe n'amabati y'ubururu, imbere hari ibendera ry'u Rwanda ndetse rikaba riri mu busitani bw'umucaca.

Ikiganiro cy'abana itetero gikunda kuba, kigacishwa kuri Radiyo Rwanda, gikorwa n'abana bato aho baba bihugura mu buryo butandukanye by'umwihariko mu buryo bw'amasomo yo ku ishuri.

Ibikoresho bitandukanye birimo urudodo, koroshi, imakasi, urwembe, metero ndetse n'ibindi bikoreshwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza, uburyo bwo kwiyitaho ndetse no guhanga imyuga abakiri batoya.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Bicaye mu ishuri ku meza, bakaba bambaye impuzankano. Abakobwa barimo bambaye imipira y'ubudodo, aho buri munyeshuri afite mudasobwa ye, akaba ari kwiga uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga.

Abanyeshuri biga amashuri yisumbuye, bakaba bicaye mu ishuri aho bakurikiye amasomo, mbere hari umugore ubahagaze imbere ufite mikoro, akaba ari bigisha uburyo butandukanye bwo kwiyitaho ndetse no gukurikirana amasomo neza.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye, ni mu ishuri ryubakije amatafari ahiye, harimo parafo y'umweru, hakaba hicayemo abagabo bane b'abarezi, aho bigisha mu masomo ajyanye na siyansi.

Umugabo w'umwarimu mu mashuri yisumbuye yambaye itaburiya, ahagaze imbere y'abanyeshuri akaba ari kubasobanurira uburyo butandukanye bwo gukoreshaje ikoranabuhanga, buri munyeshuri afite mudasobwa imbere ye kandi abanyeshuri bose bambaye udupfukamunwa, bafite amakaye n'amakaramu.

Inyubako nziza yo mu kigo cy'amashuri yisumbuye, yubakishije amatafari ahiye ikaba ifite inkingi ziteye irangi ry'umuhondo, ihagazeho abantu batatu aho bari ku ibaraza ryayo, ikaba ari inzu y'igorofa ikaba utari kubona inshuro igeretse.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, kirimo sale nini cyane, ahateraniye abantu bakora mu nzego z'ubuzima. Abenshi muri bo bambaye amajire, aho baje kureba niba ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri bigikora.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bicaye hamwe bose bambaye impuzankano amashati y'umweru, amajipo ndetse n'amapantaro arasa n'ubururu. Bakaba bicaye mu nzu yubakishije amatafari ahiye aho bari kumva impanuro z'umuyobozi wabo.

Umugore w'umurezi yambaye ingutiya y'umutuku, ishati y'umweru ndetse n'isaha, akaba ahagararanye n'umunyeshuri mu mashuri yisumbuye, wambaye impuzankano, aho ari kumuha ikemeza ko yize kuri iki kigo nk'impamyabumenyi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bateraniye hamwe bari mu kibuga, bamwe barahagaze abandi baricaye, abahagaze bazamuye amaboko hejuru, bisa n'aho bishimye cyane, ubona ko bari kugaragariza umuntu uri kubagezaho imbwirwaruhame ko bamukurikiye cyane.

Ababyeyi, abana, biga mu mashuri yisumbuye bakaba bakoze inama aho bahuriye ku kigo cy'amashuri kugira ngo bite ku iterambere ndetse n'imitangire y'amasomo, imbere yabo hari umugabo akaba ari umuyobozi w'ikigo uri kubabwira insanyamatsiko y'uyu munsi.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko rwiga mu mashuri yisumbuye, bari kubyina bishimye cyane, aho bari kumwe n'abarezi babo, bishimira umunsi mwiza wahariwe umwana w'umunyafurika.

Umuhanda w'igitaka ukaba ugana ku kigo cy'amashuri yisumbuye, harimo umukobwa wambaye impuzankano uri kumanuka. Yambaye karuvati, ku ruhande hakaba hari ubusitani burimo ibiti, umucaca ndetse n'indaro.

Abanyeshuri benshi cyane biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano bakaba bicaye mu busitani aho bicaye hasi mu mucaca, bakaba bari gukurikira inyigisho z'umuyobozi w'ikigo uri kubabwira uburyo baritwara uyu munsi.

Abanyeshuri bakuru biganjemo abiga imyuga, amashuri makuru y'imyuga n'ubumenyingiro bakaba bicaye mu ishuri aho bari gukurikirana inyigisho z'umuyobozi wabo.

Abanyeshuri biga amashuri makuru imyuga n'ubumenyi ngiro, bicaye mu ishuri aho buri wese afite ikayi, ndetse umwe muri bo afite mudasobwa, imbere hari umwarimu uri kubasobanurira uburyo butandukanye bwo gukora imishinga.

Ibintu bitandukanye by'ubugeni birimo ibipesi bifunitse neza bikaba bipfunikishije ibitambaro bya Londoni aho byapfunitswe n'abanyeshuri biga muri kaminuza akenshi na kenshi bikorwa n'abantu bize ubugeni.

Udutebe tubiri twa pulasitike, dufite ibara ry'ubururu, duteretse mu nzu irimo amakaro ndetse ku gikuta, hakaba hateye irangi ry'umuhondo, harimo na hano hacomekwa sharijeri.

Agatebe gatoya ni akapalasitike kakaba gasa n'ubururu. Aho gateretse mu ishuri ryiza cyane ririmo amakaro, ku gikuta hakaba hateye irangi ry'umweru. Utu dutebe akenshi dukunze kugaragara muri kaminuza.

Abana biga mu mashuri makuru y'imyuga n'ubumenyingiro bakora ibimbano bitandukanye, bakoze ikibumbano kigaragaza umutwe w'umuntu w'umwirabura ufite n'umusatsi, ku ruhande hakaba hari n'akandi kabumbano batarasoza.

Inzu nziza cyane irimo inzugi z'ibirahuri byiza bibonerana, ikaba yanditseho amagambo yo mu mpine UR/09/B01.

Abantu bane bari gutambuka mu muhanda, ni abakobwa babiri n'abahungu babiri, umukobwa umwe afite igitabo ndetse akaba ari gusobanurira umuhungu ibijyanye n'amasomo biga muri kaminuza.

Agatebe gatoya ka parasitike, kari mu ibara ry'ubururu, kakaba gateretse ku ibaraza ry'inzu irimo amakaro, iruhande rwako hari indobo, inyuma yako hakaba hari urugi runini cyane rukozwe mu cyuma, rurimo n'ibirahuri binini.

lshuri ryiza cyane ryo muri kaminuza, ririho igipango gikoze mu byuma biteye irangi ry'icyatsi, hateretseho intebe ndende ikoze mu mbaho ya gatabure ,imbere hakaba hari udutebe duto twa plastic dusa n'ubururu.

Inyubako imwe muri kaminuza cyangwa se akaba ari mu mashuri makuru y'imyuga n'ubumenyi ngiro, iteye irange ry'umuhondo ikaba irimo amarido atukura ndetse ku gikuta hakaba hegetse igiti cy'inkoni kiri mu ibara ry'umweru.

Intebe nyinshi cyane za parasitiki, zirasa n'ubururu, zikaba zitondetse mu ishuri rimwe mu kigo cy'amashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro cyangwa se muri kaminuza kuko izi ntebe niho zikunze kuboneka cyane.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza, bambaye udupfukamunwa bose, aho bari mu ikizamini buri muntu yicaye ku ntebe ye, aho bari ku meza manini, buri meza ikaba iriho abantu babiri kugira ngo badakopera.

Igikuta gishushanyijeho ifoto nziza cyane, igaragaza umuhanda wa kaburimbo uriho ipoto ry'umuriro w' amashanyarazi, ku ruhande hakaba hari ikibuga, inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti byiza cyane bikurura umwuka mwiza abantu bahumeka.

Abakobwa bane biga amashuri makuru y'imyuga n'ubumenyi ngiro, bakaba bicaye hamwe bambaye impuzankano, aho bari kureba muri telefone ibintu bitandukanye bijyanye n'amasomo biga, inyuma yabo hakaba hari inzu, ishuri bigiramo.

Inzu irimo urugi runini rukozwe mu cyuma ruteye irangi ry'icyatsi rukaba rufunguye rurimo n'ibirahuri, ni inzu iri muri kaminuza y'u Rwanda aho mu nzu hari irangi ry'umweru hakaba n'itara rirerire.